Abantu harimo abagore n'abana n'abanyabuzima, barimo kwita ku buzima bwiza bw'abaturage babigisha uburyo bakwambara imyambaro isa neza n'uburyo bajya barya ibiryo bifite isuku, kugira birinde indwara zigiye zitandukanye.

Inzu ebyiri zubatse muburyo butandukanye imwe nini indi ni ntoya iruhande rwayo hari ikigega gifata amazi aturutse kuri izo afite amabara y'ubururu hejuru mu mfuruka n'inzugi zayo n'ubururu.

Umuryango uharanira kwita ku buzima bwiza bw'abana bita Unicef, hari abana babiri bambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku hejuru, uw'ibumoso arishimye cyane araseka uw'iburyo arimo arasukira mugenzi we arimo arakaraba intoki.

Inyubako iri gutangirwamo ubuvuzi bw'ibanze ku mwana w'umukobwa urwaye, ari kumwe na muganga wambaye umwambaro ugaragaza ko ari umuganga, ufite ibara ry'umweru, arimo aramupima uburyo umutima w'iwe urimo gutera, akoresheje igikoresho cyabugenewe, iyo nyubako ifite amabara agiye atandukanye, iruhande rw'uwo mukobwa hari umugabo uhahagaze ufashe igipapuro mu...

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda mpuzankano mu bigaragara bagiye kujya ku ishuri barimo baranywa amazi bakoresheje ubukombe bugiye butandukanye bufite amabara adasa harimo icyatsi n'ubururu bambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru na blue fonce.

Inyubako irimo igitsina gore n'igitsina gabo, barimo barahabwa inama n'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, ibara ry'umweru hejuru hasi inkweto zirasa umweru. Mu bigaragara barimo barahabwa inama z'uburyo bakwita ku buzima bwabo, bakaraba amazi meza barya ibiryo bisukuye.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi ku barwayi baje bagana abaganga, harimo abaganga batatu n'umurwayi umwe, abagore babiri n'umugabo umwe bambaye imyambaro mpuzangano iri mu ibara ry'umweru n'ubupfukamunwa ku mazuru.

Itsinda ry'abana batoya basa nabi, bambaye imyambaro igiye itandukanye ifite amabara adasa, harimo umutuku, umukara, icyatsi, bahuriye ku ivomero barimo barakaraba intoki barimo kugira ngo babe bakwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako ifite amabara atandukanye, irimo igitsina gore n'igitsina gabo, mu bigaragara bahoze bahabwa inama z'uburyo bakumira no kurwanya gutwita bitateganyijwe ku bangavu, bambaye imyambaro itandukanye harimo ibara ry'umweru, ubururu, umukara.

Umuntu urimo gukaraba intoki yifashishije amazi meza cyane arimo guturuka muri robine, yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, arimo arakaraba ibiganza.

Itsinda ry'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo abagabo n'abagore, abana benshi cyane, imbere yabo hari umugore upfukamye afatishije amaboko hasi afite ikibazo cy'ubuzima.

Abana bane bambaye imyenda mpuzankano y'ishuri, mu bigaragara bagiye kujya ku ishuri, barimo barakaraba intoki bakoresheje amazi ya robine, bambaye imyambaro igiye itandukanye, harimo amabara y'umutuku.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bambaye imyambaro idasa bari kwita ku mwana uryamye mu gakarito, hari igitsina gore n'igitsina gabo hari umugore wambaye umwambaro ufite ibara ry'umukara n'umweru, afite imisatsi miremire cyane.

Umwana muto w'umukobwa urimo kuvoma amazi ku ivomero rya gakondo, arimo arifashisha indobo zifite amabara y'umweru, inyuma yiwe hari ibiti binini cyane by'inganzamarumbu bifite amabara agiye atandukanye.

Abagabo babiri n'umwana, umwe yambaye ingofero y'abayisilamu n'umwambaro ugaragaza ko ari umuyisilamu, umwana yambaye umupira w'ubururu, hari n'umuganga mu bigaragara urimo kumuhereza inama z'uburyo bakwita ku mibereho yabo n'ubuzima bwabo, yambaye uwo mwambaro mpuzangano uri mu ibara ry'umweru.

Abana babiri batangana harimo umukuru n'umutoya, barimo baravoma amazi mabi ahantu yaretse, mu bigaragara bishobora kubateza indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inzoka, amibe n'indwara z'uruhu. Twabigisha uburyo bagomba gukoresha amazi meza kugira ngo bazajye bagira ubuzima bwiza budafite indwara izo ari zo zose, kandi bagire n'ubuzima budahora burwaragurika.

Umuryango ushinzwe kwita ku buzima bwiza bw'abaturage, babigisha uburyo bakwiriye kwita ku buzima bwabo, bikingiza indwara zigiye zitandukanye zifata umubiri w'abantu.

Itsinda ry'abana bakiri batoya cyane bambaye imyambaro iri mu bwoko bwa orange, harimo barimo kwitabwaho n'abantu bakuru harimo abasirikare. Bicaye hasi barimo barabaha pome barimo barareba kugira ngo niba ubuzima bwabo bwamera neza.

Umugore uri mu cyumba w'inzobe ufashe indangururamajwi, ikiganza kimwe cy'iburyo cyifashe ku mutima, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye arimo kwigisha uburyo bakwiriye kwita ku buzima bw'abantu.

Umuganga wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru. Arimo kwita ku mwana urwaye ufashwe n'umugore. Mu bigaragara uyu murwayi mu mutwe we ntabwo umeze neza, arimo kugira ngo ahabwe ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abana benshi bari ku ishuri bambaye imyenda mpuzangano igaragaza ko ari abanyeshuri bafashe ibikombe bigiye bifite amabara adasa, barimo baravoma amazi yo kunywa meza barimo kugira ngo babe bagira ubuzima bwiza butarangwa n'indwara za arizo zose

Itsinda ry'abantu bagiye batandukanye, harimo igitsina gore, igitsina gabo n'abana bakiri batoya, bahuriye hamwe bagiye gushaka no kwigishwa uburyo bakwiriye kwita ku buzima bwabo, kugira ngo butaza kujya burangwamo n' indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wicaye, yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, ari kumwe n'umugore w'umuganga wambaye umwambaro mpuzankano n'agapfukamunwa ku mazuru. Mu bigaragara arimo kumwereka uburyo bahaguruka, barwanya indwara ziri hano hanze urugero nka sida.

Inyubako irimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara, bafite iruhande rwabo n'amazi ari mu macupa, imbere yabo hari abagore bane n'umugabo umwe, barimo barahabwa inama z'uburyo bazamura imibereho myiza, babungabunga ibidukikije bakoresha amazi meza, bakaraba bakoresheje n'amasabune.

Itsinda ry'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bambaye imyambaro idasa, harimo abana batoya barimo kugaburirwa amata kugira ngo barebe niba ubuzima bwabo bwagenda neza. Harimo abagabo n'abagore.

Umwana w'umukobwa, ukiri mutoya uboshe imisatsi. Yambaye umwambaro ufite amabara atandukanye. Harimo ibara ry'umutuku. Arimo arakaraba intoki akoresheje amazi meza. Yifashishije igikoresho gifite ibara ry'umukara.

Ivomero ryahuriweho n'abana babiri baje kuvoma amazi barimo baratega amazi meza cyane adashobora kuba yabatera indwara, inyuma yaho hari ibyatsi bigiye bifite amabara agiye atandukanye harimo icyatsi n'umuhondo n'andi mabara.

Umuntu urimo gukaraba ibiganza yifashishije ivomero ari gukoresha amazi meza cyane, hari amabara y'ubururu, umutuku n'umweru arimo kugirango intoki ziwe zibe zasa neza kugirango ataza kwandura indwara zigiye zitandukanye.

Umwana wunamye mu mazi menshi cyane afashe injerekani arimo aravoma amazi mabi atari meza ashobora kwangiza ubuzima bw'abantu bari buyakoreshe, kandi nkatwe dukwiriye gukoresha amazi meza.

Umuganga wambaye umwenda mpuzangano uri mu ibara ry'umweru, arimo arita ku mwana mutoya amutera urushinge kugira ngo aze kugira ubuzima bwiza. Afashwe n'umugore mu ntoki undi amufashe akaboko kugira ngo bataza kumujomba urushinge akava amaraso ari menshi cyane.

Umwana mutoya w'umukobwa wishimye cyane urimo guseka, arimo gukaraba intoki, yifashishije amazi meza kugira ngo abe yakwirinda indwara zigiye zitandukanye, arimo gukoresha indobo iri kuvaomo amazi, ifite ibara ry'icyatsi, andi arimo gukaraba akajya mu ibasi ifite ibara ry'icyatsi.

Hari abaganga babiri mu bigaragara bari kwita ku barwayi. Bambaye imyenda mpuzankano iri mu ibara ry'ubururu. Bambaye n'ubupfukamunwa mu mazuru. Mu bigaragara barimo barapima umuvuduko w'amaraso uyu muntu.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo irimo abantu batandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo bicaye ku ntebe zifite amabara atandukanye, imbere yabo hari amacupa arimo amazi, mu bigaragara barimo guhabwa inama z'uburyo bakwigisha abaturage ku kwita ku buzima bwabo.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye bifashisha mu gihe bari kwita ku buzima bw'abaturage n'abarwayi, hari ibifite amabara agiye atandukanye umweru ,ubururu n'umuhondo.

Umuhanzi uzwi ku izina rya Israel Mbonyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, afashe umwana mu ntoki, ariko arahagaze we arasutamye, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, hejuru ni ibara rya oranje, hasi hari umukara n'ubururu.

Umwana usutamye imbere y'ivomero arimo arakaraba intoki akoresheje amazi meza cyane, imbere yiwe hari amajerikani afite amabara agiye atandukanye harimo umuhondo, ubururu; yambaye imyambaro isa nabi cyane.

Ishyamba ririmo ibyatsi bigiye bitandukanye bifite amabara adasa harimo amabara y'icyatsi, imbere hari n'umwana wambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, arimo aranywa amazi ariko arasa nabi cyane.

Ikigo cy'umuryango w'abibumbye hano ku isi, gishinzwe kwita ku isuku y'abaturage ndetse n'abana b'impunzi. Babigisha gukoresha amazi meza, bakoresha amasabune, n'ibindi bintu bishoborara gutuma bagira ubuzima bwiza.

Inyubako ebyiri zubatswe mu buryo butandukanye, zifite amabara adasa. Hejuru hari abagabo babiri barimo kugenda hejuru yazo. Mu bigaragara izi nyubako zitangirwamo inama z'uburyo bazamura imibereho myiza y'abaturage, babigisha gukoresha amazi meza, ku ahantu hari isuku, kuba ahantu bahasukura kugira ngo baze kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umuhanzi uzwi ku izina rya Israel Mbonyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hejuru yambaye umwambaro w'umuhondo hasi ni umukara yambaye n'indorerwamo mu maso, arimo aragaburira umwana mutoya ufashwe n'umubyeyi w'umugore.

Inyubako irimo itsinda ry'abantu bagiye batandukanye harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye. Barimo baratanga amahugurwa y'uburyo bazamura imibereho myiza y'abaturage babigisha gukoresha amazi afite isuku, kurara ahantu hasa neza no gusukura ahabazengurutse.

Ishusho ririho umugore wambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo iry'umukara n'umweru, afite imisatsi miremire igwa mu mugongo. Mu bigaragara barimo barerekana uburyo bakwiriye kuzamura imibereho myiza y'imitekerereze.

Inyubako irimo abantu benshi bagiye batandukanye, b'igitsina gore n'igitsina gabo. Bicaye ku ntebe zifite amabara adasa. Umukara, n'ibara rya oranje. Imbere yabo hari umugore urimo kubahereza inama z'uburyo bakwirinda ibibazo byakwangiriza imitekerereze.

Abakobwa babiri bicaye mu cyumba ku ntebe, umwe yifashe mu mutwe akoresheje amaboko abiri, mu bigaragara afite agahinda n'umubabaro byo mu mutwe. Undi arimo aramuhumuriza amubwira ati: ''Ihangane ibibazo ufite bizarangira.'' Mu bigaragara hari ikibazo gikomeye cyane, uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba yarahuye na cyo mu buzima bwe.

Itsinda ry’abantu benshi bagiye batandukanye harimo igitsina gore, igitsina gabo, abana, bishimiye uburyo U Rwanda rwashyizeho uburyo bwo kurinda no kurwanya ibishobora kwangiza ubuzima bwo mu mutwe, bafashe amabendera agaragaza igihugu cyacu.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bafashe ibipapuro mu ntoki, bambaye imyambaro igiye itandukanye, ifite amabara adasa, harimo umweru, ubururu, umukara, inkweto zimwe ni umweru. Mu bigaragara, bamaze guhabwa inama z'uburyo bakwirinda ibibazo byangiriza ubwonko bwabo.

Inyubako irimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye b'igitsina gore n'igitsina gabo bamwe barahagaze abandi baricaye ku ntebe zifite amabara agiye atandukanye impani yabo hari n'amacupa arimo amazi apfundikijwe n'imifuniko y'ubururu mu bigaragara bahoze bahabwa inama z'uburyo bakwita ku buzima bwiza bw'abaturage bambara neza bakora isuku aho batuye n'ahabazengurutse.

Umusore uri imbere y'ibinyabiziga bibiri, asa nabi cyane yambaye imyenda yagiye icika, afashe n'amashashi menshi cyane mu kuboko kw'iburyo n'ibumoso, hari akandi kantu afashe, mu bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugore wambaye imyambaro isa nabi arishimye cyane mu bigaragara imitekerereze ye n'ubuzima bwe bimeze neza, afashe isuka mu ntoki mu bigaragara avuye mu murima yikoreye n'igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, inyuma y'iwe hari ikidodoki gifite ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hari n'inzu yubakishijwe amategura hejuru.

Umusaza wishimye cyane wambaye imyambaro ifite amabara atandukanye harimo ay'umweru n'umuhondo. Ukuboko kw'iwe ku ibumoso gufashe icumu rirerire, yambaye n'ingofero mu mutwe arishimye cyane, afite amenyo ariko ay'imbere yavuyemo.

Umuntu wicaye hejuru y'umuriguti amaguru yayashyizemo imbere, yambaye imyenda isa nabi cyane n'umusatsi we urasa nabi, afashe ibintu by'amashashi n'ibicupa, mu bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyumba kirimo umugore uhetse umwana, atetse igikoma, hari n'akandi kana gahagaze iruhande rw'umugore, mu bigaragara barishimye cyane imitekerereze yabo iragenda neza cyane.

Umukecuru urimo gutekereza cyane afite agahinda kamurenze, mu bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe, yiteze igitambaro gifite ibara ry'umweru, yambaye n'urunigi mu ijosi, mu by'ukuri, uyu mukecuru ndabona akeneye ubufasha.

Umwana mutoya wambaye umwambaro mpuzangano yicaye ku ntebe ifite amabara y'umuhondo, yambaye n'imyambaro ifite amabara agiye atandukanye harimo umweru n'umukara, arimo ararya afite imisatsi miremire mu bigaragara arishimye cyane kubera ko afite ubuzima bwiza.

Umwambaro wo hejuru wambarwa n'abantu bigisha abaturage uburyo bakwiriye kwirinda ibibazo bishobora kwangiriza ubwonko bwabo n'imitekerereze yabo. Iri mu mabara atandukanye, umweru n'ubururu.

Umuryango w'umugore n'umukobwa n'umwana mutoya, wasuwe n'abanyabuzima bashinzwe gutanga no guhugura abaturage ku byerekeranye n'uburyo bakwirinda ibintu bishobora kwangiza imitekerereze yabo.

Umwana w'umukobwa wicaye hasi, arigunze, mu bigaragara afite agahinda, afite n'ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyambaro isa nabi cyane, iri mu mabara atandukanye harimo umutuku n'ibara ry'igitaka, yambaye n'ibirenge nta nkweto afite.

Umukobwa wicaye hasi ku karago yambaye inkweto zifite ibara ry'umutuku hasi nI Igitaka hejuru yambaye akantu kagiye gusa n'umuhondo, mu bigaragara afite ikibazo cyo mu mutwe n'agahinda kamurenze birimo kugaragara, iruhande rw'iwe hari igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Ikigo gishinzwe kwita ku mibereho myiza y'abantu ndetse n'ubuzima bwiza bw'abaturage, cyandikishijweho amagambo avuga ngo ''wihogo'' kiri mu ibara ry'umuhondo.

Ikirango cy'u Rwanda kiri mu mabara agiye atandukanye arimo ibara ry'ubururu, umweru n'ubwoko bw'icunga oranje. Mu bigaragara bigaragaza uburyo u Rwanda rugomba gushyira mu bikorwa imibereho myiza no kurinda indwara zifata ubwonko.

Ikigonderabuzima gitanga inama ku bana bakiri batoya ndetse n'ingimbi n'abangavu z'uburyo bakwifata bafata neza imibiri yabo n'uburyo bakwirinda indwara zigiye zitandukanye harimo nka kovide cumi n'icyenda hano mu Rwanda.

Inyubako irimo abantu abagore n'abagabo, barimo kwigishwa uburyo bagomba kurwanya ibintu bishobora kwangiza imitekerereze yabo n'ibintu bishobora kubatera ibibazo, bicaye ku ntebe, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, amwe muri ayo mabara harimo ubururu n'umuhondo

Umusore uri mucyumba afashe akadodo akoresheje amaboko abiri arimo aragakuna mu myenda arakuramo imyanda, mu b'ibigaragara amenyo ye ntabwo ameze neza arimo kugira ngo abe yagira amenyo afite isuku yambaye imyambaro ifite amabara y'umweru.

Umuhungu w'inzobe ufashe akadodo mu ntoki arimo aragakubisha amenyo akuramo imyanda, arimo kugira ngo amenyo ye abe yasa neza, yambaye imyambaro ifite amabara y'umweru.

Icyumba kirimo umugabo wicaye yambaye indorerwamo z'amaso, afite umusatsi w'umukara, amaboko ye abiri yose afashe ku ishusho, arimo arareba ubwoko bw'amenyo n'uburyo bayitaho kugira ngo atazajya ahura n'indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye n'uburyo yajya ayarinda kwangirika.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'amenyo harimo abaganga babiri umukobwa umwe n'umugabo umwe bambaye ubupfukamuwa n'imyambaro mpuzangano isa n'umweru barimo baravura umwana mutoya wambaye agapfukamunwa k'umutuku gafite ubushumi bw'umukara barimo barareba uburyo amenyo ye asa niba afite isuku cyangwa se asa nabi.

Umukobwa w'inzobe wishimye cyane ufite imisatsi myiza yambaye amabara y'umweru, arishimye afashe igikoresho cyabugenewe kiriho umuti arimo aroza amenyo yiwe kugira ngo ataza gufatwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi cyane harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye imyambaro igiye itandukanye ifite amabara adasa harimo: umweru, umukara, ubururu, icyatsi, n'andi, barishimye bahoze barigishwa uburyo bakwiriye kwita ku menyo yabo kugira ngo atajya afatwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Umwana ukiri mutoya waryamishijwe ku gitanda, mu bigaragara arwaye amenyo, ariko muganga ari kumwitaho kugira ngo abe yamukuramo iryinyo ryarwaye kugira ngo rizongere rimere, yambaye imyenda y'umweru.

Abana b'abakobwa barimo koza amenyo yabo bakoresheje ibikoresho byabugenewe, bambaye imyenda mpuzankano igaragaza ko ari abanyeshuri, mu bigaragara barimo kwitegura kujya ku ishuri.

Umugabo wishimye cyane, urimo kwerekana uburyo amenyo ye asa neza, nta burwayi afite, afite ubwanwa bw'umukara, yambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, ubururu n'igitaka, mu bigaragara uyu mugabo akunze guhora akorera isuku amenyo ye.

Abana benshi cyane bagiye batandukanye, harimo abakobwa n'abahungu, barimo koza amenyo yabo barimo kugira ngo babe bakwirinda indwara zigiye zitandukanye zakwataka amenyo yabo. Harimo nko gucukuka kwayo, gukuka amenyo ndetse n'ifumbi, n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zishobora gufata aya menyo

Inyubako irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, bifashisha mu buvuzi bw'amenyo, urugero hari nk'ibyo bakoresha barimo gukura amenyo, ibindi hari nk'ibyo bakoresha barimo koza amenyo, iyo nyubako ifite amabara y'umweru n'andi mabara.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo ibitanda n'intebe zo kwicaraho bifite n'amabara adasa, byifashishwa mu gihe bari kwita ku buzima bw'abantu babavura nk'amenyo.

Umukobwa wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, arimo kwita ku buzima bw'amenyo ye amaze kuyoza. Arimo arireba mu ndorerwamo areba ko amenyo ye asa neza.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye barakuze cyane, barimo guhereza umubyeyi w'umugore umwenda wo kujya yiyorosa mu gihe agiye kuryama, barimo kugira ngo abe yabasha kugira ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo barimo baraseka cyane, mu bigaragara barishimye cyane, barakuze, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo amabara y'umweru, bari mu nyubako ifite ubwiza cyane.

Umukecuru n'umusaza bicaye bafite akanyamuneza barimo bararya ibiryo by'amoko agiye atandukanye bifite amabara adasa, mu bigaragara barishimye cyane kubera ko bakundana, hagati y'abo nta makimbirane bigera bagirana bitewe n'uko bagaragara, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye.

Umusaza ukuze ufite imisatsi yimweruru afashe umwana mu ntoki arimo aramukinisha, mu bigaragara arimo aramwihisha uburyo yajya yubaha ababyeyi be, bicaye mucyumba gifite amabara y'umweru.

Itsinda ry'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, imbere yabo hari abasaza babiri bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru. Bambaye ingofero mu bigaragara bari mu misango y,ubukwe.

Abagabo babiri bakuze bambaye imyambaro irimo umweru n'umukara, bafashe amacupa y'amazi mu ntoki, barishimye cyane, mu bigaragara, bakoze imyitozo ngororamubiri barimo kugira ngo ubuzima bwabo, bube bwagenda neza butarangwamo indwara n'ibindi bishobora kwangiza ubuzima bwabo, kubera ko bari mu zabukuru.

Umugabo n'umugore bicaye mu nzu y'inyubako isa neza cyane mu bigaragara uyu mugabo ni umuganga kuko yambaye imyambaro mpuzankano, arimo kwita kuri uyu mukecuru ufashe inkoni mu ntoki.

Inyubako irimo igitsina gore n'igitsina gabo mu bigaragara uwo mugore arimo kugira inama uyu mugabo ukuze n'uburyo yakwiyitaho, yambaye umwenda mpuzankano ugaragaza ko ari umuganga.

Abagore batatu bishimye cyane barimo baraseka kandi barakuze, bambaye imyambaro idasa harimo umuhondo n'umweru, umwe afite umusatsi w'umweru, undi umukara, undi umusatsi unyerera.

Itsinda ry'igitsina gore n'igitsina gabo bahagaze bakuze bambaye imyambaro igiye ifite amabara atandukanye harimo umweru, umukara, ubururu, bahoze bigishwa uburyo bakwiriye kwita ku buzima bw'abantu bakuze.

Umukobwa n'umugore barishimye cyane, barimo guseka, ni ukuri bambaye imyambaro igiye itandukanye, harimo amabara adasa, umweru, ubururu. Mu bigaragara barimo kuganirizwa uburyo bakwita ku mibereho yabo n'ubuzima bwabo kugira ngo bagire amagara mazima.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ukuze cyane mu bigaragara afite uburwayi kuko arimo guhabwa umuti n'umuganga uhagaze iruhande rwe wambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu afite imisatsi y'umukara, agiye gukoresha amazi kugira ngo imiti ize kumanuka igere munda neza.

Inyubako irimo umusaza n'umugore bakuze cyane, ibigaragara umugore arimo arigisha umusaza uburyo yajya areba amashusho ku gikoresho cyiwe akoresha bita terefone, arimo arareba uburyo bakora imyidagaduro n'uburyo bita ku buzima bw'abantu.

Umugore wicaye hasi uri imyitozo ngororamubiri arabyibushye cyane, yambaye imyambaro ifite amabara atandukanye harimo ibara ry'ubururu. Inyuma yiwe hari icyatsi cyitwaye nk'umuyenzi hari n'itarara ry'ikirahure.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, har’abagabo babiri umwe n’umuganga wambaye imyenda mpuzankano iri mw’ibara ry'umweru, undi n’umusaza, mu bigaragara arimo kumwigisha uburyo yakwita ku buzima bwe.

Umubyeyi w'umukecuru ukuze cyane ufite imisatsi y'umweru, yambaye n'urunigi mu ijosi, afashe indangururamajwi ahagaze imbere y'abantu, inyuma y'iwe hari amazu afite amabara y'umweru, hari n'ibyatsi biri inyuma ye.

Abagore babiri bakuze barishimye cyane, bafite imisatsi ifunze mu buryo butandukanye, bambaye n'imyambaro idasa, amaboko abiri bashyize imbere yabo barimo kuyananura, andi abiri bashyize inyuma yabo, barimo kwidagadura.

Abagore babiri harimo umwe ukuze cyane urimo kwitabwaho na mugenzi wiwe ufite imisatsi yumukara iguye mu mugongo ,barishimye cyane arimo aramunanura amaboko kugira ngo aze kuba yagororoka amere neza.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro itandukanye ifite amabara adasa, mu bigaragara umwe arakuze undi aracyari mutoya, barishimye cyane, kubera ko bagiye bita ku buzima bwabo, undi yambaye indorerwamo y'amazi.

Umugabo wicaye ku ntebe wambaye ikintu gifite ibara ry'ubururu, afite n'agapfukamunwa ku mazuru, imbere ye hari umukobwa urimo kumufungira ibifungo na we afite agapfukamunwa, yambaye ibara riri mu cyatsi.

Umukecuru ukuze cyane ufite imisatsi ifite amabara agiye atandukanye, harimo umweru n'umukara, yambaye indorerwamo ifite amabara y'umutuku, ukuboko kw'ibumoso gufashe amazuru yiwe, yambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu yicaye afashe igikombe afatishije ukuboko kw'iburyo.

Inyubako irimo umubyeyi ufite n'umwana, bambaye amabara agiye atandukanye, ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, bafite imisatsi miremire, imisatsi ifunze, iyo nzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri barimo kugenda mu muhanda bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, ndetse nta nubwo imyenda bambaye isa, mu bigaragara umwe ni umusaza arakuze cyane, gusa barishimye arimo kumusobanurira uburyo yakwita ku buzima bwe agenda atembera mu duce tugiye dutandukanye.

Urwego mpuzamahanga rwahaririye kurinda no kubungabunga ibidukikije ku rwego rw'isi, harimo nko gutera ibiti, kurwanya ibintu byose bishobora guhumanya ikirere no kwangiza imibereho y'abaturage.

Ibara ry'icyatsi ryandikishijweho amagambo y'umweru asobanura uburyo twagira ubuzima bwiza, imbere yaho handitsweho umubare gatatu, munsi yayo hari umutima, mu bigaragara kirimo kwerekana uburyo imibereho myiza y'abaturage yazamuka, bifashishije cyangwa se bakoresha amazi meza n'isabune basukura.

Imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye ishinzwe gushiraho, kurengera, no kubungabunga ubuzima bwiza bw'abantu babigisha gukoresha ibikoresho bigiye bifite amasuku no gusukura ahabazengurutse batema ibihuru, bazibura ibiziba, n'ibindi byose byatuma bagira ubuzima bwiza.

Icyumba cyahoze kirimo gutangirwamo inama y'uburyo bazamura imibereho myiza y'abaturage, harimo itsinda ry'abantu benshi cyane batandukanye igitsina gore n'igitsina gabo, barebaga uburyo bazamura imibereho myiza ku baturage, babigisha gukoresha ibintu bifite isuku.

Itsinda ry'abantu benshi bagizwe n'igitsina gore n'igitsina gabo, bari mu nama bayobowe n'abagabo babiri babiciye imbere ku ntebe zifite amabara y'umukara. Barimo barigishwa uburyo bazamura imibereho myiza y'abaturage babigisha gukoresha amazi meza asukuye bakoresha bifashishije isabune n'uburyo basukura aho batuye

Ikigo k'igihugu gishinzwe gushyiraho ingamba zo kurengera abaturage binyuze mu kwigisha gukora cyane bashyize hamwe bafite ubumwe ikindi ni ikigo gishinzwe kubungabunga iterambere, ubukungu n'umutekano w'abaturage.

Ikigo gishinzwe gutanga imibereho myiza ku baturage babigisha uburyo bafata neza ubwonko n'imitekerereze yabo, bakora imyitozo ngororamubiri, barya ibiryo bifite isuku, bakoresha amazi afite isuku ndetse bita no ku mibereho yabo iba mu muryango.

Itsinda ry'abantu bagiye batandukanye harimo igitsina gore n'igitsina gabo bicaye ku ntebe zifite amabara adasa, inyuma n'umutuku imbere n'umukara imbere yabo hari umugabo uhagaze ufashe inkururamajwi arimo abigisha uburyo bakwiriye kuzamura imibereho myiza y'abaturage.

Itsinda ry'abantu benshi cyane bari mu cyumba, mu bigaragara bahoze bari guhabwa inama z'uburyo bazamuraho imibereho yabo myiza, birinda guhohotera abana batabakoresha imirimo ivunanye. Harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye imyambaro idasa harimo imikara, imyeru n'ubururu n'andi mabara.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo abaganga bambaye ubupfukamunwa n'imyambaro mpuzangano igaragara ko barimo gukora akazi kabo uko bikwiriye, mu bigaragara barimo barasuzuma ibikoresho bari bwifashishe kuko bari kureba niba birimo gukora neza.

Umugore n'umugabo bahagaze mu nyubako ikorerwamo amahugurwa y'uburyo bazamura imibereho myiza ku baturage batuye mu bihugu byo muri Afurika, bambaye amabara agiye atandukanye harimo nk'ibara ry'umukara, umweru n'ubururu.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kuzamura imibereho myiza y'abaturage, biciye mu kwigisha abaturage mu buryo bugiye butandukanye, babigisha gukora amasuku abazengurutse, gukora amasuku mu bidukikije n'iwabo mu ngo.

Ibyiciro bitatu bigiye bitandukanye bigaragaza uburyo imibereho myiza y'abaturage igenda izamuka bihereye ku mudugudu, ku murenge, Akarere n'intara mu bigaragara imibereho myiza y'abaturage imeze neza nkurikije uko iri shusho ribyerekana.

Inyubako nini cyane ifite amabara ajyiye atandukanye, itangirwamo ubuvuzi, imbere yayo hari umuhanda abagenzi n'abarwayi banyuramo mu gihe bagannye iri vuriro. Hari n'ibyatsi bisa n'ibara ry'icyatsi n'umukara.

Umugabo uhetse umugore ku igare yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu imbere yabo hari ibitaro bitangirwamo ubuvuzi ku baturage bari mu muhanda bagana inyuma y'ibitaro.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ifite ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye bifite amabara adasa, harimo umukara, umweru, umuhondo, hari n'ibitanda baryamishaho abarwayi, mu bigaragara nta muganga urimo wo kuba yakwita ku barwayi, nta n'abarwayi ndimo kubonamo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bimwe bifashisha bapima imivuduko y'amaraso ku barwayi, harimo n'igitanda kiriho umwenda w'umweru umurwayi aryamaho igihe barimo kumusuzuma.

Inyubako batangiramo ubuvuzi yo mu karere ka Nyarugenge. Ni nziza cyane igiye ifite amabara atandukanye umweru, imbere yayo hari ibara rigiye gusa n'umukara, imbere yayo hari n'ibyatsi bigiye gusa icyatsi n'umuhondo. Hari n'umuhanda ujya kuri ibyo bitaro.

Inyubako irimo abantu benshi urujya n'uruza, bamwe barimo kugenda abandi barimo baricaye. Hari igitsina gore n'igitsina gabo. Hari umugabo uhagaze imbere yabo, arimo kubareba; bambaye n'ubupfukamunwa, mu bigaragara baje kwivuza.

Inyubako nini cyane itangirwamo ubuvuzi, ifite amabara meza agiye atandukanye, harimo ibara ry'umweru, imbere yaho hari umuhanda werekeza kuri iyo nyubako, iruhande hari n'ibyatsi bifite amabara atandukanye harimo icyatsi n'umuhondo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi irimo abarwayi, abaganga barimo kubitaho, hari n'abarimo gukora amasuku, umugore n'umugabo hari amabara agiye atandukanye umutuku, umuhondo, bambaye ubupfukamunwa.

Inyubako nini cyane ifite amabara agiye atandukanye, harimo amabara y'umweru, amabara ari mu ishusho rya oranje, harimo n'ibitanda abarwayi baryamyeho, iyi nyubako itangirwamo ubuvuzi.

Inyubako nini cyane, ifite amabara agiye atandukanye, harimo n'ibitanda, itangirwamo ubuvuzi, harimo ibitanda bine n'ibikoresho abaganga bifashisha, nta barwayi barimo, baganye ibyo bitaro.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi burimo itsinda ry'abantu benshi bagiye batandukanye, ab'igitsina gore n'igitsina gabo bambaye imyambaro igiye itandukanye hari isa ubururu, umweru. Imbere yabo hari abagabo batatu barimo kubigisha uburyo bakwita ku buzima bwabo birinda indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi imbere yayo hari igiti kinini cyane gifite ibara ry'icyatsi, hari n'umucaca mutoya cyane, imbere y'inyubako hari n'ikigega cy'umukara kijyamo amazi mu gihe imvura yaguye.

Inyubako nziza cyane itangirwamo ubuvuzi, harimo ibitanda bigiye bitandukanye bifite amabara adasa, ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umweru. Mu bigaragara nta barwayi barimo, nta n'abaganga barimo, gusa harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo kwita ku barwayi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, ifite amabara agiye atandukanye, hari amabara y'umuhondo, ubururu hejuru, imbere yayo hari ibyatsi bifite amabara y'icyatsi, hari n'abagore babiri bahicaye bafite impande zabo abana bakiri batoya. Mu bigaragara baje gushaka ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi harimo abagabo babiri umwe ni umuganga undi ni umurwayi waje kwivuza mo imbere harimo ibikoresho bifashisha barimo kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro hari n'amagambo yanditsweho bita irembo uwo muganga yambaye umwenda mpuzangano uri mu ibara ry'umukara.

Inyubako ziri mu ikigo cya kaminuza y'Urwanda n'ibitaro bikorera mu karere ka Huye, hari imbere yabyo imodoka nyinshi cyane z'ubwoko bugiye butandukanye.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, irimo ibikoresho byinshi cyane by'ubwoko butandukanye bifashisha barimo kwita ku barwayi babapima uburyo umuvuduko w'amaraso uhagaze mu mibiri yabo, uburyo umutima urimo gutera.

Inyubako irimo gutangirwamo ubuvuzi harimo abaganga batatu abagore babiri n'umugabo umwe, bambaye imyambaro mpuzangano iri mu ibara ry'umweru, barimo barasuzuma umurwayi mu bigaragara barimo baramupima umuvuduko w'amaraso n'umutima.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi cyane by'ubwoko bugiye butandukanye bifashisha mu buvuzi barimo kwita ku barwayi bimwe muri byo hari nka bimwe bifashisha barimo gupima imivuduko y'amaraso, gutera k'umutima, kugira ngo babe bamenye uburyo bakwita ku murwayi bazi indwara barimo kumuvura.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, harimo umurwayi uryamishijwe ku gitanda arimo kwitabwaho n'umuganga w'umugabo, arimo kumva niba afite umuriro mwinshi cyane akoresheje ikiganza cyiwe amufashe ku gahanga. Hari n'umumama uhagaze iruhande rw'uwo mugabo, arimo arafata ku kuboko kugira ngo amaraso ataza kuva mu mubiri.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite amabara adasa, mu bigaragara hatangirwamo ubuvuzi bujyanye n'amaso, harimo amabara y'umukara, icyatsi, ubururu.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari nk'ibyo bahagararaho barimo kwipima uburebure n'ibiro byabo, hari n'ibipima imivuduko y'amaraso n'izindi ndwara.

Inyubako nziza cyane itangirwamo ubuvuzi ifite amabara agiye atandukanye harimo umweru, ifite n'ibyumba icya mbere handitsweho rimwe kabiri gatatu, mu bigaragara nta barwayi bahari nta n'abaganga ndimo kuhabona.

Inyubako zitangirwa mu buvuzi zifite amafarage atandukanye, harimo iy'umuhondo n'ubururu, imbere yayo hari igiti kinini cyane cy'inganzamarumbu, gifite ibibabi by'icyatsi, hari n'ibyatsi bigufiya biri munsi yacyo, imbere yayo hari umuhanda ugera kuri iyo nyubako mu gihe abarwayi baje gushaka ubuvuzi.

Inyubako y'ubuvuzi irimo abarwayi b'abagore baryamye ku myenda y'imyeru n'ibitanda bifite amabara atandukanye, hari n'amabara y'ubururu, mo imbere hari n'amabara y'umuhondo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ku baturage harimo abaganga bambaye imyenda mpuzangano iri mu mabara y'umweru, hari umugore wicaye ku kagare mu bigaragara barimo baramutera urushinge.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, harimo imiti igiye itandukanye, ifite amabara adasa, itondetse mu buryo bwiza butandukanye, hari n'urugi rufite amabara abiri atandukanye, ibara ry'igitaka n'ibara ry'ubururu.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ni inyubako nziza cyane, imbere yayo hari abagabo bahagaze, imodoka mu by'ukuri hari n'abantu barimo gukora amasuku, irifite amabara agiye atandukanye harimo umuhondo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amabara y'umweru. Hari ibyo baryamishaho abarwayi barimo kubapima uburebure, hari n'ibifite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Inyubako zubatswe mu buryo bugiye butandukanye, hari indende n'ingufiya, imbere yazo hari ibyatsi birebire n'ibigufiya, hari n'umuhanda ugiye winjiramo muri izi nyubako, izifite amabara agiye atandukanye, hari n'ibirahuri.

Inyubako itatu nini cyane zitandukanye zitangirwamo ubuvuzi, imbere yazo hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye, hari n'umuhanda urimo kwinjira kurizo nyubako mu bigaragara izi nyubako zirahenze cyane zakira n'abarwayi benshi cyane.

Inyubako irimo abaganga b'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyambaro mpuzangano ifite amabara y'umweru. Barimo barasuzuma uburyo bakoresha umuti, imbere yabo hari icupa ririmo amazi. Hari umukobwa urimo gusuka amazi mu kirahure.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari mu kazi, harimo umugore umwe urimo kubikorera amasuku, yambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru, hari n'ibikoresho bifite amabara y'ubururu.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu gihe bari kwita ku barwayi, ifite amabara agiye atandukanye mo imbere, harimo umuganga wambaye umwambaro w'umweru arimo kwita ku murwayi, arimo aramusuzuma areba uburyo umutima we urimo gutera yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi harimo umukobwa w'umuganga wambaye umwendampuzangano umugaragaza uri mu ibara ry'umwe mu bigaragara ari kumwe n'umurwayi arimo kumva uburyo amaraso arimo gutera mu mubiri we.

Inyubako nziza cyane, ifite ibyumba binini cyane bigiye bitandukanye, itangirwamo ubuvuzi. Ifite amabara y'umweru, umuhondo, ndetse n'umukara.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi harimo abarwayi babiri n'umuganga umwe wambaye imyambaro y'umweru. Afashe igikoresho cyabugenewe mu gihe umuntu aba ari gupima umuvuduko w'amaraso, n'uburyo umubiri urimo gutera. Hari n'amabara agiye atandukanye harimo ubururu, igitaka, n'umweru.

Inyubako irimo itsinda ry'abantu benshi cyane bagiye batandukanye b'igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye imyambaro idasa, harimo umukara, umutuku n'ubururu, bamwe muri bo bambaye ubupfukamunwa bw'amazuru, baje gushaka ubuvuzi ku bitaro.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi nini cyane ni nziza ifite amabara atandukanye, imbere yaho hari umuhanda ugiye werekezayo, hari n'ibyatsi by'amoko agiye atandukanye bifite amabara adasa.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, barimo barererekeza ku ivuriro, hari abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo ubururu, umuhondo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi igiye riho ibitanda biryamyeho abarwayi bifite amabarage atandukanye harimo ubururu n'umuhondo, hari n'ibikoresho abarwayi barimo kwishi hari n'amabara agiye atandukanye ari muri iyo nyubako harimo umuhondo.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bifashisha barimo kuvura abantu bagiye batandukanye, hari ibifite amabara agiye atandukanye ibara ry'ubururu, ibara ry'umukara, umutuku n'umweru. Mu bigaragara aha hantu nta muganga ndimo kuhabona.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'abaturage bagiye batandukanye, abaganga babitaho babavura indwara zitari zimwe, harimo nk'iz'imivuduko y'amaraso, indwara z'umutima za rubagimpande, ikindi babavura n'indwara zikomeye, cyane tuziho kuri kanseri.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifashisha mu gihe bari kwita ku barwayi, hari n'igitanda abarwayi baryamaho mu gihe barimo kubasuzuma.

Inyubako ifite amabara agiye atandukanye, itangirwamo ubuvuzi bw'amaso, ifite amabara y'umweru, amabara y'ubururu, inzugi zayo ni umutuku.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, harimo abarwayi b'abagabo baryamye ku bitanda, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye harimo amabara y'umweru. Mo imbere muri iyo nyubako ifite amabara adasa, ubururu, umweru n'andi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ifite ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo abaganga barimo kwita ku barwayi baryamye ku bitanda imbere hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'imyambaro igaragaza ko ari umuganga.

Inyubako zubatswe zitandukanye zitangirwamo ubuvuzi, iruhande rw'aho hari igiti cy'icyatsi bifashisha mu gihe barimo kugama izuba, hari n'umuhanda werekeza muri izo nyubako.

Inyubako nziza itangirwamo ubuvuzi ku bantu bagiye batandukanye harimo ibikoresho bidasa bikoreshwa barimo kwita ku baturage biri mu ibara ry'umweru.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite amabara adasa harimo nk'ubururu, umweru. Hari n'ibitanda bifashisha mu gihe barimo kuvura abarwayi ariko nta murwayi urimo nta n'umuganga ndimo kubonamo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi iganwa n'abantu bagiye batandukanye baturutse ahantu hatari hamwe. Imbere yaho hari umuhanda uhagana ndetse n'uwo abagenzi baturukamo. Hari n'ibyatsi bigiye bifite amabara atandukanye nk'icyatsi n'andi yose.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye, nk'ubururu n'umutuku n'umweru, hari umuganga wambaye umwenda mpuzankano uri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, arimo arita ku kana kamaze kuvuka.

Inyubako nini cyane itangirwamo ubuvuzi, harimo ibikoresho bifashisha mu gihe barimo kwita ku barwayi. Hari nk'ibipima umuvuduko w'amaraso, gutera k'umutima, hari n'ibitanda abarwayi bagenda baryamaho, bifite amabara agiye atandukanye, harimo umweru, ubururu n'umukara.

Inyubako nziza cyane nini itangirwamo ubuvuzi, irimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye, ifite amabara adasa, mu bigaragara nta murwayi urimo kurigana, nta n'umuganga ndimo kubo...

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe bari mu myitozo ngororamubiri, bigiye bifite amabara atandukanye, hari iby'ubururu, umweru, umukara, biri mu nyubako nziza cyane.

Ikigo cy'igihugu cya hano mu Rwanda cy'ibitaro by'abasirikare gishinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, babigisha uburyo bakwiriye gukora siporo kugira ngo babe bagira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri mu bigaragara umwe aryamye ku gitanda arimo aragororwa, avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye amasogisi y'umweru, ashyize ukuguru ku rutugu rwa mugenzi w'iwe, yambaye umupira w'umweru, yambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso.

Imiti n'ibikoresho by'ibanze bifashisha mu gihe umuntu akomeretse ari mu myitozo ngororamubiri, harimo nk'ibinini, umuti basiga kumvune igihe yavunitse, hari n'ibyo bambara mu ntoki barimo koza aho yakomeretse, kugira ngo hataza kwinjiramo udukoko akaba yakwangirika cyane.

Ikarito irimo ibikoresho by'ibanze bifashisha mu gihe abantu bari mu myitozo ngororamubiri ariko mu gihe bahuye n'impanuka, urugero yakomeretse arimo kuva amaraso, hari nk'ipamba, hari n'umuti hari n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye harimo avoka, oranje, pome, shufureri, urunyanya n'ironji byifashishwa mu gihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri, arabirya kugira abe yagarura intege n'imbaraga kuko aba yatakaje isukari. Hari n'icupa ririmo amazi rifundikijwe n'umufuniko ufite amabara y'umukara n'umutuku.

Inyubako irimo itsinda ry'abantu benshi b'igitsina gore n'igitsina gabo, barimo baratanga ubutabazi bw'ibanze ku musore wahoze mu myitozo ngororamubiri, mu bigaragara yakomeretse, bambaye amabara y'umweru n'umutuku.

Amashusho atwereka uburyo dukwiriye gukora imyitozo ngororamubiri, ku buryo tudakwiriye kwangiza imibiri yacu twivuna, hari abantu batandatu bari kutwereka uburyo dukwiye kubikora mu buryo bugiye butandukanye.

Imiti bifashisha igihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, harimo nk'urushinge, ibinini by'ubwoko bugiye butandukanye, bifite amabara adasa, umuhondo, icyatsi, ubururu n'umweru.

Umugabo uhagaze urimo kwita ku musore uvuye mu myitozo ngororamubiri, mu bigaragara yavunitse, kuko yamushyizeho ibikoresho bimwe by'ibanze byifashishwa mu gihe umuntu yahuye n'impanuka igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye bifashisha bari mu myitozo ngororamubiri, hari nk'ibyo bakoresha barimo kwipima umuvuduko w'amaraso, uburyo umutima uri gutera n'uburyo umubiri wabo uhagaze, harimo umuganga wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo ibikoresho byerekana uburyo bakwiriye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibipima imivuduko y'amaraso, uko umutima urimo gutera, ndetse n'uko ibiro by'ukora siporo bingana.

Imbago bifashisha mu gihe uwakoraga imyitozo ngororamubiri ahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka, iri mu mabara abiri umukara n'umweru, mu by'ukuri iyo uyu muntu yangiritse cyane iramufasha igatuma akomeza ingendo ze n'ibindi bikorwa bye bigiye bitandukanye.

Umusore wicaye hasi mu bigaragara avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro itamwegereye neza, arimo aranywa amazi ari mu icupa, mu bigaragara arimo kugira ngo asubirane imbaraga ashobora kuba yatakaye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yafashe akaboko k'ibumoso agashyira ku mutwe, arangije akerekereza mu mugongo, ak'iburyo kafashe ak'ibumoso, arimo arinanura, arimo kugira ngo abe yagira ubuzima bwiza, butarangwa indwara, budapfa kurwaragurika.

Icyumba kirimo umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye amaboko imbere, amaguru yayahinye, yambaye imyambaro igiye itandukanye ifite amabara adasa harimo umukara, afite n'imisatsi miremire yafungiye inyuma.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri, gifite amabara adasa, harimo umweru n'amabara agiye gusa n'umukara, gikoreshwa nk'igihe barimo gupima uburyo umutima urimo gutera, n'uburyo amaraso arimo gutembera mu mubiri.

Ibikoresho by'ibanze bigiye bitandukanye harimo imbuto zifite amabara adasa urugero pome irasa umweru na orange hari n'amazi ari mu icupa afudikishijwe umufuniko w'umutuku babyifashisha mu gihe umuntu avuye muri siporo arimo kugira ngo abe yagarura imbaraga yatakaje.

Umuganda ufashe igikoresho bifashisha mu gihe bari mu myitozo ngororamubiri gifite ibara ry'umutuku. Yambaye n'umwambaro mpuzankano ufite ibara ry'umweru, mu ijosi ryiwe harimo igikoresho bifashisha mu gihe bari gupima uburyo umutima urimo gutera w'umuntu.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ahagaze ku ntebe yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye: umukara n'umutuku intoki ziwe yazifatishije ku mipira arimo gukoresha yigorora ingororano.

Imiti n'ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu butabazi bw'ibanze igihe ukomeretse wakoraga imyitozo ngororamubiri, harimo nk'ibinini, imakasi, urushinge, bifite amabara atandukanye: umweru, umuhondo.

Ifunguro ryo kurya rigiye rifite amoko agiye atandukanye harimo nk'amagi, imineke n'umugati, babyifashisha mu gihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri akeneye kuba yakongera imbaraga yatakaje n'amazi aba yabuze mu mubiri we igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Ibyuma bifashisha igihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri mu gihe yakomeretse, harimo nk'ikigorora amagufa cyambaye inkweto iri mu ibara ry'umweru ikindi ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane by'ubwoko butari bumwe bigiye bitandukanye, bifashisha mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri. Harimo n'umusore uri kwerekana kimwe muri byo, bifashisha mu gihe barimo gupima umuvuduko w'amaraso.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, amasogisi y'umweru, impeta mu rutoki, ni mwiza afite imisatsi miremire, yicaye hasi arimo arananura amaguru.

Inyubako irimo abantu bagiye batandukanye, harimo igitsina gore n'igitsina gabo bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, harimo; umweru, umukara, ubururu, mu bigaragara barimo barareba uburyo bakwiga gukora imyitozo ngororamubiri.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye yifashishwa mu gihe umuntu ahuye n'impanuka yakoraga imyitozo ngororamubiri. Yifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze. hari nk'iyo basiga ku gisebe igihe yakomeretse indi bakayimuhambirizaho igihe arimo kuva amaraso cyane.

Umusore uri mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro y'umukara. Akaguru kamwe yakazamuye agashyira ku gikoresho cyabugenewe barimo gukora imyitozo ngororamubiri. Akandi yagashyize hasi.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yaryamishijwe hasi, akaboko kamwe yakarambuye akandi yagashinze, uri kumwitaho yambaye umwambaro uri mu ibara ry'umukara, arimo aramukandira ku ivi, mu bigaragara hakomeretse.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha mu kaboko k'ibumoso, ukuguru yagufashe agushyira hejuru ku ruzitiro, arimo arananura amaguru n'ingingo zo mu maboko n'umugongo.

Umwana w'umukobwa wicaye mu cymba cyiza cyane kirimo intebe z'umweru arimo gukora imyitozo ngororamubiri arimo arananura akaguru afashishije akaboko k'ibumoso akandi kaboko k'iburyo agafatishije ukuguru arimo kunanura.

Abasore babiri bambaye imyambaro yubururu hejuru, umukar hasi, inkweto z'umutuku, inkweto z'umukara, umwe aryamye hasi mugenzi we arimo kumugorora. yavunitse kubera ko yahoze akora imyitozo ngororamumubiri akina umupira wamaguru.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro igiye itandukanye ifite amabara y'umukara, inkweto zirasa umweru. Arimo arananura amaboko cyane ukuguru kumwe yaguhinnye ukundi yakurambuye, iruhande rwe hari icupa ry'amazi ari bunywe arangije gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agarure imbaraga yatakaje.

Itsinda ry'abantu bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye harimo imyambaro y'imyeru, imikara n'ubururu, imbere yabo hari umugabo uhagaze urimo kubereka igikoresho bifashisha bari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa igihe abantu bari mu myitozo ngororamubiri bifite amabara agiye atandukanye harimo umweru, ubururu n'umukara, babyifashisha barimo kwinanura ingingo z'umubiri.

Itsinda ry'abantu benshi cyane b'abana bagiye batandukanye, harimo ab'igitsina gore n'ibitsina gabo, bari mu myitozo ngororamubiri barimo barabyina, bambaye imyambaro itandukanye ifite amabara adasa, hari umweru, umukara, inkweto, z'umutuku n'amasogisi y'imyeru.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha mu kaboko k'ubumoso. Akaboko kamwe yagashyize hejuru ku mutwe, akandi yagafatishije mu mugongo arimo kwinanura yareze agatuza imbere.

Imbuto n'imboga z'ubwoko bugiye butandukanye umuntu arya mu gihe avuye mu myitozo ngororamubiri, ashaka kugira ngo agarure imbaraga yatakaje. Hari n'inkweto zifite ibara ry'umuhondo n'umukara, yifashisha mu gihe arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikiganza gifashe icupa mo imbere harimo amazi ripfundikishiwe n'umuvuniko w'ibara ry'ubururu ibigaragara uyu muntu avuye mu myitozo ngororamubiri arashaka kunywa ayo mazi kugira ngo abe yagarura imbaraga yatakaje ndetse n'ingufu zagiye zimuvamo.

Ibikoresho n'imiti igiye itandukanye, iri mu macupa adasa, afite amabara atandukanye yifashishwa mu butabazi bw'ibanze, mu gihe umuntu yarari mu myitozo ngororamubiri akaza guhura n'ikibazo cyo kuba yakomeretse.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kwirukanka cyane, hari n'umukobwa usutamye iruhande rwiwe na we arimo arananura amaguru, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, akaboko k'ibumoso gafatiye akaguru k'ibumoso kagafatiye inyuma, akaboko k'iburyo yakaramburiye imbere, mu bigaragara arimo kugira ngo abe yagira ubuzima bwiza, yambaye amabara agiye atandukanye.

Umusore w'ibigango wiciye hasi ari mu myitozo ngororamubiri, yafashe akaguru arimo kukananura akoresheje amaboko abiri. Yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso. Mu by'ukuri arimo arashaka kugira ngo abe yagira ubuzima buzima.

Umusore n'umukobwa bambaye umwambaro mpuzankano, ugaragaza ko bakora ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaza guhura n'ikibazo cyo kuba yakomereka, cyangwa se yavunika ingingo, barimo kumwihutishiriza kumujyana ku bitaro bibegereye.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu myitozo ngororamubiri, bigiye bifite amabara agiye adasa umweru, ubururu, icyatsi n'umuhondo, bifashishijwe n'ibyuma.

Imbuto z'ubwoko butandukanye hari pome, hari ironji, hari urunyanya, hari n'imboga n'umutobe uri mu kirahure. Hari na metero ibi byose babyifashisha igihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, ari gukorera mu nyubako ifite amabara y'umweru, umuhondo n'umukara.

Umukobwa ufashe icupa mo imbere harimo amazi ripfundikishijwe umufuniko w'ubururu, yambaye agapira karimo amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umweru mu bigaragara avuye mu myitozo ngororamubiri, arimo kugira ngo aze gusubirana imbaraga yatakaje arimo gukora imyitozo.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri arimo gusuzuma uburyo amaraso ye arimo kugendagenda mu mubiri we n'uburyo umutima urimo gutera, kiri mu mabara atandukanye harimo iry'umweru niry'ubururu.

Inyubako irimo abantu benshi bagiye batandukanye b'igitsina gore n'igitsina gabo, hari abambaye imyenda mpuzangano igaragaza ko ari abaganga, barimo baravura umugabo uryamye ku gitanda bigaragara ko yagiriye impanuka mu gihe yari ari mu myidagaduro.

Umugabo urimo kunkwa amazi yifashishije icupa rifite umufuniko ugiye gusa n'uburu, mu bigaragara avuye mu myitozo ngororamubiri, arimo kugira ngo arebe niba imbaraga yatakaje n'ingufu yatakaje ko byagaruka nyuma yo kunkwa amazi.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu myitozo ngororamubiri, mo imbere harimo umuganga wambaye imyambaro isa n'umweru araniteze igitambaro gisa n'umweru, mu bigaragara barimo barapima uburyo umuvuduko w'amaraso y'umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri urimo kugenda.

Amacupa abiri y'imihondo afite imifuniko y'umubiri y'umutuku irimo imiti bifashisha mu buvuzi gakondo ,mu bigaragara iyi miti harimo n'iy'ubwoko bwa aluvera.

Igiti gifite amashami afite amababi y'icyatsi bifashisha mu buvuzi gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara y'umutima, indwara z'uruhu urugero ibihushi, hari n'imivuduko y'amaraso n'izindi ndwara zigiye zitandukanye bifashisha barimo gukoresha kino giti.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, iri mu macupa atandukanye, afite amabara adasa, mo imbere harimo iyo miti, ipfundikijwe imifuniko itandukanye. Mu bigaragara iyi miti yifashishwa mu gihe barimo kuvura imivuduko y'amaraso mu mubiri.

Umuti bifashisha mu buvuzi gakondo ni igikakarubamba baciyemo ibice bitatu, hari n'agacupa mu imbere karimo uwo muti kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu bita Alvera.

Itsinda ry'amacupa menshi cyane arimo umuti w'igikakarubamba, bifashisha mu buvuzi gakondo. Afite amabara y'umuhondo, inyuma hari icyatsi kibisi cy'igikarumba.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye biteye mu butaka bifite amabara adasa, harimo icyatsi n'ibijya gusa n'umuhondo, harimo icyo bita umuharavumba babyifashisha mu buvuzi gakondo nk'indwara ya gapfura, ubutebwe ndetse n'igihe umuntu yarwaye inzoka zo mu nda.

Icupa rifite amabara agiye atandukanye mo imbere harimo umuti bifashisha mu buvuzi gakondo, urugero nk'indwara z'uruhu, harimo nk'ibihushi, ikindi bawisiga igihe umuntu yavunitse, ikindi kandi ushobora kwifashishwa mu gihe barimo kuvura umuvuduko w'amaraso.

Ibyatsi bifite amabara atandukanye, babyifashisha mu buvuzi gakondo, hari umugwegwe, hari n'ikindi bita umushishiro, babyifashisha iyo barimo bategura umuti w'umurwayi, barawusekura barangiza bagakamura amazi, bakayahereza umurwayi akayanywa.

Umugabo uri mu ishyamba rifite ibyatsi byinshi cyaneee, bifite n'amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'icyatsi kibisi, icyatsi cyerurukana, mu bigaragara yagiye gushaka imiti yifashisha mu buvuzi gakondo harimo nk'indwara za amibe ndetse n'ubutembwe na za gapfura n'izindi.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye ifite amabara adasa yifashishwa mu buvuzi gakondo harimo kuvura indwara y'umutima, indwara y'uruhu, ndetse ikavura na amibe, bivura n'igihe umuntu yagize impagarara y'umutima.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko ufundikishijwe w'umweru mo imbere harimo umuti wifashisha mu buvuzi gakondo, bagenda bavura indwara zitandukanye harimo nk'indwara z'uruhu, urugero; ibihushi, ikindi bakunze kuzikoresha igihe umuntu ava mu myitozo ngororamubiri akaza gukomereka.

Umugore uhagaze ufashe uturabo tw'ibyatsi, ibyo byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo bagenda bavura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara z'uruhu, indwara z'umuvuduko w'amaraso, amibe, rubaga impande n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'imbuto bugiye butandukanye, bufite amabara adasa, harimo icyatsi kibisi, umuhondo uri mu ibara rya oranje bifashisha mu buvuzi gakondo, bigenda bivura indwara zigiye zitandukanye, harimo imivuduko y'amaraso, indwara y'umutima, indwara z'uruhu n'izindi ndwara zigenda zitandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi cyane b'abagabo bahetse ibikapu mu mugongo yabo, barimo barererekeza imbere yabo ku mugezi urimo gutemba cyane uva hejuru ku misozi. Impande yawo hari ibiti byinshi cyane bifite ibara ry'icyatsi bifashisha mu buvuzi gakondo bagenda bavura indwara zigiye zitandukanye. Harimo nka amibe, imivuduko y'amaraso n'izindi.

Icyatsi kibisi cyane kiteye mu butaka kiratoshye, cyifashishwa mu buvuzi gakondo, urugero mu byo kivura harimo indwara zigiye zitandukanye, amibe indwara zo mu nda, indwara z'uruhu.

Icyatsi kizwi ku izina ry'igikakarubamba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, kigenda gikoreshwa ku ndwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara y'uruhu, urugero; ibiheri, ibihushi, umuvuduko w'amaraso, Amibe n'izindi zigiye zitandukanye.

Imiti bifashisha mu buvuzi gakondo, igiye iri mu macupa atandukanye n'amakarito atandukanye, iruhande hari inanasi ifite icyatsi hejuru, hari amabara atandukanye, umutuku, umuhondo n'ubururu.

Umufuka ufite ikirango inyuma gifite amabara agiye atandukanye, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yacyo hari amagambo ahanditswe mu bigaragara harimo umuti wifashisha mu buvuzi gakondo nk'ubutembwe, gapfura, malariya.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo indwara zigiye zitandukanye, harimo amibe umuvuduko w'amaraso, indwara y'umutima, indwara z'uruhu, harimo ibihushi, ibiheri n'izindi ushobora kubitegura kubiteka mu mazi meza warangiza ukabikamura ayo mazi nyuma yaho ukayanywa, bishobora kukugirira akamaro ku buzima bwawe.

Ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi, bifashisha mu buvuzi gakondo. Imbere hari igiti kirekire bita umuharavumba. Iki giti kizwi mu kuvura cyane indwara zigiye zitandukanye harimo nka gapfura, ubutembwe n'izindi ndwara.

Ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo, bifite amabara adasa, harimo umutuku n'umuhondo, icyatsi kitari kibisi n'andi mabara, bivura indwara nk'umuvuduko w'amaraso, amibe, indwara zo mu nda, urugero inzoka, n'indwara z'uruhu urugero ibiheri n'ibihushi n'izindi ndwara zingiye zitandukanye.

Itsinda ry'ibyatsi rigiye rifite amabara atandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo, harimo nk'ibifite icyatsi, umutuku, umuhondo n'ibara rigiye gusa n'isine, byifashishwa mu buvuzi gakondo, urugero bivura umuvuduko w'amaraso, amibe, ibihushi n'indwara zo ku ruhu urugero nk'ibiheri.

Ibyatsi byitwa umuharavumba bifite amabara y'icyatsi bifashisha mu buvuzi gakondo bigenda bikoreshwa ku ndwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye harimo gupfura, ubutembwe, umuriro.

Ibyatsi bifashisha mu buvuzi gakondo mu gihe umuntu yarwaye, muri byo harimo: umuharavumba, bawifashisha mu gihe umuntu yarwaye ubutembwe. Hari n'izindi ndwara bifashisha barimo gukoresha ibi byatsi, urugero: indwara zo mu nda, gapfura n'izindi.

Imiti n'imbuto y'ubwoko bugiye butandukanye, bifite amaba adasa, ifashisha mu buvuzi gakondo harimo; nk'indwara y'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara zo mu nda urugero inzoka. Ikindi kandi yifashishwa bivura indwara z'uruhu harimo ibiheri n'ibihushi.

Amacupa abiri arimo imiti y'igikakarubamba bifashisha mu buvuzi gakondo, harimo amibe umuvuduko w'amaraso, indwara z'uruhu urugero: ibiheri, ibihushi zivura n'umutima.

Ikigo gishinzwe gutanga ubuvuzi gakondo bakoresheje ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye harimo iby'icyatsi n'ibindi byose, bavura indwara zitari izimwe nk'indwara z'umuvuduko w'amaraso, umutima, amibe n'indwara z'uruhu urugero ibiheri n'ibihushi.

Icyatsi kitari kibisi cyane giteye mu butaka, cyifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye harimo nka: amibe, indwara zo mu nda, inzoka, indwara z'uruhu, n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo iri mu dukarito dufite amabara agiye atandukanye, bayikoresha mu gihe bari kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo indwara y'uruhu, urugero ibihushi n'izindi ndwara.

Itsinda ry'imiti igiye itandukanye riri mu mabara adasa, yifashishwa mu buvuzi gakondo harimo nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso, umutima, amibe, indwara z'uruhu, mu bigaragara zifite amabara agiye atandukanye harimo nk'umuhondo, umweru n'icyatsi.

Urutonde rw'imiti iri mu macupa agiye atandukanye amwe ari yanditseho aluvera andi ariho igikakarubamba apfundikishijwe imipfuniko igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo harimo nk'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo harimo ikibonobono, bivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nka amibe, indwara y'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara z'uruhu harimo nk'ibihushi, ibiheri n'izindi ndwara.

Umuti bifashisha mu buvuzi gakondo uri mu gacupa gafite amabara atandukanye, umuvuniko wako ni umweru, mu bigaragara uyu muti bawifashisha barimo kuvura indwara ya amibe.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu macupa agiye atandukanye apfundikishijwe imifuniko y'icyatsi andi n'imyeru bayikoresha mu buvuzi gakondo harimo amibe, indwara zo mu nda, inzoka, inyamaswa zifata abantu mu mubiri ikindi kandi hari abantu barimo kuza kuyigura.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo bagenda bavura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'indwara y'umutima, umuvuduko w'amaraso, amibe, indwara z'uruhu ndetse banavura n'igifu.

Ibyatsi biri mu mabara agiye atandukanye, bifashisha mu buvuzi gakondo bigenda bikoreshwa ku ndwara zigiye zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso indwara y'umutima, rubagimpande, amibe ndetse n'indwara z'inzoka.

Amacupa abiri, inyuma yayo hari igikakarubamba, mo imbere harimo umuti bifashisha mu buvuzi gakondo. Apfundikijwe n'imifuniko ifite amabara agiye gusa n'umukara.

Umugabo uri mu cyumba kirimo imiti igiye itondetse mu macupa afite imifuniko y'ubururu yifashishwa mu buvuzi gakondo zigenda zivura indwara zitandukanye harimo; nk'indwara z'uruhu, indwara z'umuvuduko w'amaraso, umutima, amibe n'izindi.

Icupa rifite amabara agiye atandukanye mo imbere harimo umuti bifashisha mu buvuzi gakondo, inyuma hari amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi ripfundikishijwe n'ibara ry'umweru.

Imiti iri mu macupa abiri afite amashusho atandukanye afite n'amabara adasa, yifashishwa mu buvuzi gakondo harimo nk'indwara y'uruhu urugero ibihushi, ikindi yifashishwa mu gihe umuntu yarwaye.

Imiti iri mu macupa n'udukarito iri mu bwoko bugiye butandukanye, bifashisha mu buvuzi gakondo harimo nk'indwara zimwe na zimwe urugero: indwara y'uruhu, umuvuduko w'amaraso, amibe n'izindi ndwara.

Icupa bateretse hasi rifite amabara ajya atandukanye, harimo umweru n'umutuku n'umukara mo imbere harimo umuti bifashisha mu buvuzi gakondo barimo kwica udusimba n'udukoko tugiye dutandukanye.

Imiti iri mu gipapuro gifite ibara ry'umweru, yifashishwa mu buvuzi gakondo, igenda zivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara y'igifu, indwara y'umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara.

Ibyatsi byinshi biri mu butaka, ariko bikaba biteye mu bihoho, babyifashisha mu buvuzi gakondo mu ndwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, urugero nk'indwara y'igifu, amara, inzoka, na amibe.

Ibyatsi byinshi cyane, bifite amabara agiye atandukanye, bifashisha mu buvuzi gakondo, bigenda bikoreshwa ku ndwara zitari zimwe harimo nk'imivuduko y'amaraso, indwara y'uruhu, amibe n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Urubuto ruzwi ku izina ry'avoka n'icyatsi kizwi ku izina ry'urukakarubamba, bakoramo amasabune bifashisha mu buvuzi gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara z'uruhu urugero, ibiheri n'ibihoshi.

Inzitane ry'ishyamba ririmo ibyatsi byinshi cyane bigiye bitandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo, barimo kurwanya indwara z'uruhu, umuvuduko w'amaraso, amibe. Harimo abantu babiri; igitsina gore, umwe n'igitsina gabo, umwe barimo barigisha uburyo bayikoresha.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibyatsi bigiye bitandukanye, bimwe birebire, ibindi bigufiya bifite amabara adasa, byifashishwa mu buvuzi gakondo bagenda bita ku ndwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara y'uruhu, indwara y'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse na amibe n'izindi ndwara.

Imbuto ziri mu bwoko bw'amaronji afite amabara y'umuhondo, bayakozemo umutobe, urasa neza cyane, uri mu gakombe k'umweru, agakombe gateretse ku isahani, hari na tangawize iruhande y'isahani, wifashishwa mu buvuzi gakondo urugero nko kuwusiga ku ruhu rw'amaso, mu gihe rurwaye ibiheri.

Ibyatsi n'imbuto bigiye bifite amabara atandukanye harimo icyatsi n'umuhondo, byifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo nk'indwara zimwe na zimwe bigenda bivura nk'umutima, umuvuduko w'amaraso.

Umuti wifashisha barimo koza amenyo uri mu icupa ry'umweru, inyuma hari ibara ry'icyatsi riri mu ishusho y'igikakarubamba, ifashwe n'ikiganza gifite intoki eshanu.

Igiti kirekire gifite amashami atandukanye ariho amababi y'icyatsi, bifashisha mu buvuzi gakondo, kiri mu butaka bw'umukara bufite ifumbire.

Umuti bifashisha mu buvuzi gakondo uri mu gakarito mi imbere, inyuma yaho hari amabara agiye atandukanye umweru n'umutuku, handikishijwe amagambo ari mu nyuguti nkuru, inyuma hari n'umubare magana atanu.

Inyubako irimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo, imwe muri yo harimo igikakarubamba bayifashisha bivura indwara z'uruhu indwara z'umutima, n'indwara zafashe mu musatsi, urugero ibihushi ikindi bayisiga mu musatsi kugira ngo uze kubyimba.

Imiti bifashisha mu buvuzi gakondo iri mu macupa no mu makarito agiye atandukanye ,nyuma yaho hari umubare cumi na gatanu n'inyuguti ya F ,mu bigaragara bayikoresha igihe umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri arimo kugira ngo ingingo ziwe zize kugororoka.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo, irimo ameza ariho amacupa abiri afite amabara atandukanye. Umufuniko ni oranje, undi mufuniko ni ibara rijya gusa no mukara, mo imbere harimo umuti w'igikakarubamba bifashisha mu buvuzi gakondo.

Urutonde rw'imiti myinshi cyane igiye itandukanye, iri mu makarito agiye afite amabara atandukanye, urugero icyatsi, ubururu, umweru, yifashishwa mu buvuzi gakondo, urugero nk'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara z'uruhu, inzoka zo mu nda n'amara n'izindi ndwara.

Imiti igiye iri mu macupa atandukanye kandi nayo ntabwo isa yifashishwa mu buryo butandukanye. Hari iy'igikarubamba iy'imboga rwatsi babifashisha mu buvuzi gakondo, nko mu gihe barimo kwita ku ndwara z'umuvuduko w'amaraso, indwara y'umutima na amibe.

Ibyatsi byinshi cyane bifite amabara atoshye ibi byatsi biri mu bwoko bw'igisura biri/bitewe ku butaka, byifashishwa mu buvuzi gakondo nk'igifu, amibe, inzoka zo mu nda n'impu n'indwara zo ku ruhu.